Sonarwa ni ikigo cy'ubwishingizi mu Rwanda ushobora gufata ubwishingizi bw'indwara, ubwishingizi bw'ibinyabiziga, ubwishingizi bw'ubuzima, ubwishingizi bw'inkongi y'umuriro n'ibindi.

Saniramu ni ikigo cy'ubwishingizi mu Rwanda. Ikigo saniramu gitanga ubwishingizi bw'ubuzuma, ubwishingizi bw'ibinyabiziga, ubwishingzi ku nkongi z'umuriro kandi gifite inyubako nziza kuburyo umuntu wese ugezemo yumva yisanzuye

Saniramu Rwanda ni sosiyete y'ubwishingizi ikorera mu Rwanda, saniramu itanga ubwishingizi bw'ubuzima, ubwishingizi bw'amashuri, ubwishingizi bw'indwara, ubwishingizi ku nkongi y'umuriro n'ubundi bwishingizi bwose bukenerwa.

Radiyanti ni kimwe mu bigo by'ubwishingizi mu Rwanda bitanga serivisi y'ubwishingizi bw'amatungo, ushobora kugurayo ubwishingizi bw'amatungo yawe kandi amatungo yawe akagira umutekano.

Radiyenti ni ikigo cy'ubwishingizi mu Rwanda gitanga ubwishingizi butandukanye hakubiyemo n'ubwishingizi bw'ubuzima, ushobora kuhagurira ubwishingizi bw'ubuzima bwawe n'umuryango wawe, ushobora kubikorera kuri terefone yawe ukanda akanyenyeri gatanu gatatu rimwe urwego.

Purayime n'ikigo gitanga ubwishingizi mu Rwanda, ushobora gufata ubwishingizi bw'umuryango wawe, ubwishingizi bw'ubuzima umuryango ukagira umutekano haba wowe n'abagize umuryango wawe uyigizweho n'ikigo cyo kwivuza akaba yakwivuza m'uburyo bworoshye.

Radiyanti ni ikigo cy'ubwishingizi mu Rwanda gikora iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa moya n'igice kugera saa mbili z'ijoro, kuwa gatandatu bafungura kuva saa mbiri n'igice kugera saa munani z'amanywa, naho ku munsi w'umuganda ni ukuva saa saba kugera saa kumi n'ebyiri za nimugoroba, ku minsi y'ibiruhuko bakora kuva saa tatu za mu gitondo kugera saa kumi za nimugoroba.

Mituweli ni ubwishingizi n'ubwisungane mu kwivuza. Ushobora kwishyurira umuryango wa mituweli, hanyuma umuntu wese urwaye akajya yivuza ku bwisungane, kandi bitagutwaye amafaranga menshi.

Turi kumwe ni ubwishingizi butangwa n'ikigo cy'ubwishingizi Radiyanti, ubu bwishingizi burahendutse kandi bushobora gufasha buri muntu kugiti cye bugafasha n'umuryango cyangwa se n'amasosiyete akaba yafatira ubwishingizi abakozi bayo.

Mu muryango wishimye umugabo, umugore, n'abana babiri. Bisobanuye ko ubwishingizi bw'ubwishingizi bw'ubuzima iyo umuntu abufite ashobora kubaho nta nkomyi afite, kandi akazagira ibyishimo mu gihe kiri imbere we n'umuryango we.

Radiyanti ni ikigo cy'ubwishingizi mu Rwanda. Gitanga ubwishingizi butandukanye: ubwishingizi bw'ubuzima, ubwishingizi bw'imodoka, ubwishingizi bw'inkongi y'umuriro, ariko na none kinatanga ubwishingizi ku nyubako.

Ramba na buritamu ni ubwishingizi bwo kwivuza bwagenewe amatsinda matoya, n'ibigo bito bito. Gufata ubu bwishingizi bishobora kurinda indwara zitandukanye wowe n'umuryango wawe, kubera ko muzaba mufite uburyo bwo kwivuza ku giciro gitoya.

Radiyanti ni ikigo cy'ubwishingizi gikorera mu Rwanda. Mu bwishingizi radiyanti itanga harimo n'ubwishingizi bw'ubuzima. Hamwe n'ubwishingizi bwa radiyanti, ushobora kujya kwa muganga wiringiye neza ko uri buhabwe ubuvuzi bwizewe.

Ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize gishinzwe gucunga imisanzu y'abanyamuryango bacyo, kugira ngo imisanzu izabafashe mu gihe cy'izabukuru, kandi iki kigo kikaba gishinzwe no kwegeranya ubwisungane mu kwivuza, bufasha abaturage mu kwivuza.

Umuryango wishimye. Umugabo n'umugore n'abana babo babiri barimo baraseka kandi barishimye, bafashe ubwishingizi bwabo bw'ubuzima muri radiyanti. Bashobora kwivuza rero mu gihe buri muntu wese yarwaye.

Umuhanda wa kaburimbo umuhanda ugabanyijemo ibice byinshi bitandukanye umuhanda urimo imodoka zitandukanye bitewe n'ibyerekezo zirimo zijyamo iruhande rw'umuhanda hari ubusitani buteyeho ibyatsi hari ibyapa biyobora abagenzi kumuhanda.

Sonarwa ni sosiyete y'ubwishingizi mu Rwanda, ushobora kuhafatara ubwishingizi butandukanye, bw'ibinyabiziga, bw'inkongi y'umuriro, ubwishingizi bw'amashuri, n'ubundi bwishingizi butandukanye, ushobora kubasanga hose mu Rwanda mu mijyi no mu nkengero zaho.

Radiyanti ni ikigo cy'ubwishingizi mu Rwanda. Radiyanti ishobora kwishingira ibintu byinshi bitandukanye ibinyabiziga, kwishingira ubuzima, kwishingira inkongi z'umuriro n'ibindi ,ushobora gufata ubu bwishingizi muri Radiyanti ukabana n'umunezero.

Buritamu (Britam) ni sosiyete y'ubwishingizi ikorera mu Rwanda, itanga ubwishingizi butandukanye ubwishingizi bw'ibinyabiziga, ubwishingizi bw'amashuri ,n'ubwishingizi bw'ubuzima n'ubwishingizi bwo kwivuza.

Bipiyara banke ifite ikoranabuhanga ritandukanye bakoresheza kuri telefoni ushobora kohereza amafaranga kuri numero ya banki itandukanye, ushobora kwishyura ibintu bitandukanye ushaka kwishyura imisoro, n'ibindi n'ibindi.

Umuyoboro w'ikoranabuhanga rya banki kuri telefone, ugufasha kubona serivisi zitandukanye za banki, kwishyura ibintu bitandukanye, kwishyura imisoro y'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro, kwishyura inguzanyo zitandukanye, gusaba no kwishyura inguzanyo, byose ushobora kubibona.

Umugabo ukora mu iduka ry'ubucuruzi, arimo arasuhuza umukiriya uje amugana, yamuhaye ikiganza barimo bararebana mu maso, kandi bose barishimye, biragaragara ko bose batari baherukanye.

Imodoka nziza cyane ifite ibara ry'umukara, imodoka ikiri nshya ihagaze neza, iyi modoka ikaba yarakozwe mu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda, ikaba igurishwa amafaranga miriyoni cumi n'eshanu.

Umuhanda wa kaburimbo harimo imodoka nziza cyane itaragenda ikiri nshya ni imodoka ushobora kugura ihendutse yakozwe mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani. Ni imodoka ikoresha amashanyarazi wayigura ku giciro cya miliyoni cumi n'eshatu.

Imodoka nziza nshyashya imeze neza, iteye neza, igezweho wakwigurira, ni imodoka yo mu bwoko bwa Yundayi ikiri nshyashya.

Imodoka nziza igurishwa yo mu bwoko bwa toyota rava fo. Akaba ari imodoka ikoreshwa amashanyarazi, imodoka nziza y'umukara, ku giciro cya miliyoni mirongo itatu gusa. Iyi modoka akaba ar'imodoka zigezweho hano mu Rwanda.

Inzu igurishirizwamo imodoka zitandukanye. Hari imodoka z'umukara zose nshyashya kandi zose zikiri nshya. Hasi hameze neza kandi inzu ubona ifite isuku.

Abantu bane bishimye bose barimo guseka, inyuma yabo hari imodoka nziza izanwa na akagera buzinesi gurupe, ushobora no kugura imodoka yawe wifuza unyuze mu kagera buzinesi gurupe.

Imodoka ihagaze, abagabo batatu bahagaze iruhande rwayo, bafite ikimenyetso cy'Akagera bizinesi gurupu, bigaragaza ko Akagera bizinesi gurupu shobora kwigurirayo imodoka nziza, zikiri nshya, zimeze neza.

Imodoka nziza y'ivatiri ihenze rwose. Isa n'umukara kandi ishobora kuba ikoresha ubuhanga bugezweho bw'amashanyarazi. Izi modoka rero urabona ko ziri ahantu heza mu mujyi, arizo zikwiriye kuba zikora mu mujyi.

Abagabo batatu bahagaze iruhande rw'imodoka. Barimo kugaragaza ko Akagera bizinesi gurupu ishobora gufasha umuntu uwo ari we wese kwibonera ikinyabiziga, nk'imodoka, mu buryo bworoshye.

Akagera motozi ni sosiyete ikorera mu gihugu cy'u Rwanda sosiyete itumiza imodoka n'ibinyabiziga bitandukanye abantu bakwishimira kugura, kuva ku modoka ntoya kugera ku modoka nini cyane zimenyerewe ku izina ry'amakamyo.

Akagera motozi ni kompanyi ikorera murwanda ishinzwe gutumiriza abantu imodoka ukeneye imodoka rero iyariyo yose ushobora kujya mukagera motozi ukagura iyo ushaka.

Ushobora kwigurira imodoka unyuze mu kagera motozi abagabo babiri bafite urufunguzo rw'imodoka bigaragare ko biteguye guhaha no kugura imodoka, hari imodoka nziza cyane.

Imodoka nziza cyane isa neza kandi nshyashya, kigali kari maketi ushobora kugura imodoka ukayigezwaho mu gihe gitoya haba hari imodoka nziza zisa neza kandi zikiri nshya, ushobora kuyigura ukayigendamo wowe n'umuryango wawe.

Inoti y'amafaranga magana atanu mu Rwanda, iruhande rumwe yanditseho hejuru banke nasiyonari di Rwanda, hariho n'amafaranga magana atanu mu mpande, ishushanyijeho amafoto y'ingagi, ku rundi ruhande hariho abana barimo kujya ku ishuri.

Imashine ibara ikanasuzuma amafaranga, ikoreshwa mu buryo bwo kubara mu buryo bwihuse amafaranga mu gihe waba uyafite ari menshi ku buryo kuyabona n'intoki bitakorohera inasuzuma kandi ko amafaranga ari mazima ni ukuvuga ari umwimerere.

Imodoka y'umuhondo ya kompanyi ishinzwe umutekano no kurinda ibyabaturage enteriseke sekiriti, ndetse hahagaze n'abasekirite babiri bakoresha iyo modoka cyangwa se biteguye gucunga umutekano.

Umukozi wabanyi yambaye ikanzu y'umutuku, yambaye indorerwamo za maso mu mutwe, afite umusatsi uboshye umeze neza ari imbere y'icyuma gifotora inyandiko muri banki kubere ko ari mu kazi ke ari gukora.

Umuntu arimo aravunjisha amafaranga. Kuvunja ni ugutanga amafaranga y'igihugu cyawe, bakaguha amafaranga y'ikindi gihugu kugira ngo uyakoreshe muri icyo gihugu. Hanyuma, ushobora no guhabwa amafaranga y'ikindi gihugu, kugira ngo uyakoreshe nugera muri icyo gihugu.

Umukozi wa banki uri mu kazi afashe amafaranga mu ntoki y'umukiriya uje kuyabitsa, yambaye ikarita y'akazi mu gatuza arimo arayabara kandi yiteguye kuyabika agaha serivise umukiriya waje amugana.

Abantu bari muri banki, bamwe bari kubitsa amafaranga, abandi bari kubikuza amafaranga, abandi bari gufunguza konti ndetse hari n'abarimo gusaba izindi serivisi zitandukanye za banki.

Inoti y'amafaranga ibihumbi bibiri ruhande rumwe hejuru handitseho banki nkuru y'u Rwanda ko nguni harimo hariho umubare ibihumbi bibiri. Munsi hariho ishusho y'igi hagati harimo ibikoresho by'itumanaho.

Westani uniyoni ni uburyo bwa bake bwo kohereza amafaranga no kuyakira ajya cyangwa aturutse mu mahanga, umuturage arimo aratanga amafaranga k'umukozi wa banki kugira ngo ayohereze mu kindi gihugu.

Ibiranga inoti y'amafaranga ibihumbi bibiri y'u Rwanda, hejuru handitse banki nkuru y'u Rwanda ibumoso hakandikwa ibihumbi bibiri, iburyo hakaba ikimenyetso cy'igi kirimo nimero ziranga amafaranga, hepfo hakandikwa amafaranga ibihumbi bibiri mu magambo ibumoso hakaba hari ibihumbi bibiri.

Umuntu ahagaze mu iduka, arimo aragura ibintu bitandukanye, umucuruzi arimo aramuhereza amata. Ni iduka ricuruza ibyo kurya n'ibyo kunywa bitandukanye, imitobe, imigati n'ibindi.

Amandazi ni ibyo kurya bikoze mu ifarini, isukari, amagi, akaba ari ibyo kurya byiza cyane bigurishwa mu maduka n'ahandi.

Iduka ricuruza ibyo kunywa, umukobwa yicaye mu iduka, umukiliya aje kugura icyo kunywa, iri duka ricuruza imitobe ivuye mu mbuto ndetse n'ibindi byo kunywa bitandukanye.

Ahantu hacurururizwa ibinyobwa, harimo ibikomoka ku matungo nk'amata, harimo n'ibindi binyobwa urugero nk'ibikomoka ku mbuto ndetse n'amazi, umugabo wambaye ishati y'umukara amaze kunywa amata, arimo kwishyura.

Inzu icururizwamo ibyo kunywa bitandukanye ariko cyane cyane ibinyobwa bikomoka ku mata, ushobora kuguramo amata atandukanye yaba amata asukika cyangwa amata y'ifu, cyangwa yawurute.

Umwana ni umuntu wese ukiri mutoya; ku buryo akenera kugira ubufasha ahabwa n'umubyeyi we, cyangwa se undi muntu mukuru. Hari igihe umwana aba akiri muto cyane, ku buryo aba adashobora no kuvuga cyangwa se kugira ikindi kintu yakora.

Inzu igurishirizwamo ibikomoka ku mata. Ushobora kugura amata ayo ari yose ushaka, yaba litiro imwe, ebyiri, eshanu, cyangwa se amenshi.

Inzu icururizwamo ibinyobwa bitandukanye; amata y'inyange, ibinyobwa bituruka ku mbuto ndetse ushobora no kuhasanga amazi aturuka mu ruganda inyange.

Speni ni ikoranabuhanga rya banki ya Ayiendemu banki. Iryo koranabuhanga rya sipeni ushobora gukoreraho ibintu bitandukanye, hakubiyemo no kuba wagura ifatabuguzi rya televiziyo, ukaba kwishyuriraho ibintu bitandukanye, ukaba waguriraho amashanyarazi, ndetse ukaba wakorera n'ibindi bikorwa bitandukanye.

SPENN ni uburyo bwatangijwe na banki ya I&M BANK, ushobora kubitsa, ushobora kohereza umuntu amafaranga ushobora no kuyabikuzaho ndetse ushobora no koherereza amafaranga ubu buryo ugatsindira amafaranga magana tanu uko utumiye umuntu.

Peyiporo ni uburyo bwiza bwo guhererekanya amafaranga, kugura no kugurisha ibintu bitandukanye. Peyiporo yemera uburyo busanzwe ubukoreshwa na mabanke, amakarita ya viza na makarita ya masitakadi. Gukoresha peyiporo mu Rwanda biroroshye ni uburyo bwizewe.

Emutiyene Mobayilomani irakataje mu ikoranabuhanga. Ubu ushobora kwishyura serivisi zitandukanye ukoresheje telefone yawe, mu kanya nk'ako guhumbya. Ishyura rero kandi wishyurwe ukoresheje Mobayilomani.

Speni ni ikoranabuhanga rya banki ya ayi andi emu, kandi sipeni ushobora kuyikoresha kuri telefoni yawe, ukabikaho amafaranga, ukoherereza umuntu amafaranga, ukagira ibintu wishyura bitandukanye nk'amashanyarazi, kwishyura imisoro n'ibindi byose,

Umuntu ufite telefone mukiganza arimo arakoraho ibijyiranye n'ikoranabuhanga, areba uburyo yajya yohereza amafaranga akoresheje SPENN. Ubwo rero SPENN ushobora kohereza amafaranga, ushobora kwakira amafaranga, ushobora kubikuza akaba ari ikoranabuhanga ryashyizweho n'ikigo cy'imari cya I&M BANK.

Hamwe na mobayile mane ushobora gukora ibikorwa bitandukanye, urashobora kohereza no kwakira amafaranga, ushobora kwishyura serivisi zitandukanye na fagitire, ushobora kuguriraho amayite yo guhamagara, urashobora gukoresha serivisi za banki zitandukanye.

Ushobora kwigurira interineti ukoresheje telefone yawe. Serivise ya mobayilo mane yabigufashamo. Wakanda akanyenyeri gatatu kane gatanu urwego, ukabasha kwigurira tele interinete kuri telefone yawe.

Telefone igendanwa ushobora kuyikoresha mu bintu bitandukanye, nko kohereza ubutumwa kuvugana n'umuntu ariko nanone, ushobora kuyikoresha ku gukora ibikorwa bitandukanye kuri banki yawe, nkukoherezanya amafaranga cyangwa se kugira ibyo wishyura ukoresheje konti ya banki.

Ikigo k'imisoro n'amahoro gisaba abacuruzi bose kujya bakora imenyekenisha ry'ibyo bacuruje kandi imenyekanisha bakoze bakayishyura kugira ngo batazajya bagwa mu bihano biteganywa n'amategeko.

Kumenyekanisha umusoro mu kigo k'igihugu k'imisoro n'amahoro ni inshingano ya buri wese ukora ubucuruzi. kumenyekanishiriza ku gihe bituma utagirwaho n'amande kandi udacibwa ibihano mu gihe byashyizweho.

Kugira ngo umuntu atangire ubucuruzi mu Rwanda, agomba kuba yanditswe mu kigo cy'igihugu gishinzwe iterambere. Iyo yanditswe kandi ahabwa uruhushya, icyemezo kigaragaza ko ibyo arimo gukora byemewe n'amategeko.

Umucuruzi wese ni ngombwa gukora imenyekanisha ry'umusoro ku byo yacuruje kandi akamenyekanishiriza igihe akanishyurira igihe kugira ngo yirinde ku kuba yagirwaho n'amande n'ibihano bishyirwaho n'ikigo k'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro.

Ni ngombwa kumenyekanisha imisoro y'ubucuruzi wakoze, iyo utamenyekanishije ucibwa amande. Ikigo cy'imisoro n'amahoro kibwira abantu bose ko bagomba kumenyekanishiriza igihe, kandi bakishyurira igihe imisoro yose y'ubucuruzi bwabo.

Rwanda reveni ni ikigo cy'imisoro n'amahoro mu Rwanda. Iki kigo cy'imisoro n'amahoro kigenzura abacuruzi bose, kikagenzura n'uko abasora. Buri mucuruzi agomba kumenyekanisha umusoro ku gihe, kandi akawishyurira ku gihe, kugira ngo yirinde kugerwaho n'ibihano.

Abantu babiri barimo barahererekanya amafaranga umwe araha undi amafaranga y'igihugu ke undi akamuha amadorari ubwo rero bari mu nzu y'ivunjisha umwe arashaka amadorari agatanga amafaranaga y'igihugu ke kugira ngo age kuyifashisha.

Kuvunjisha amafaranga, ni uguhererekanya amafaranga y'ibihugu bibiri bitandukanye ugahabwa ay'igihugu kimwe bitewe nuko ugiye kuyakoresha muri icyo gihugu nawe ugatanga ay'igihugu cyawe, kugira ngo bakuguranire.

Amafaranga arimo ibyiciro bibiri, hari amafaranga y'inote aba akoze mu mpapuro, hakaba n'amafaranga y'ibiceri aba akoze mu mabuye y'agaciro. Ari amafaranga y'ibiceri, ari amafaranga y'inote aba afite agaciro kangana.

Amafaranga ya Tanzaniya ateye ku buryo bukurikira: inoti y'amafaranga magana atanu, uruhande rumwe ruriho umugabo wambaye ikote, ku rundi ruhande hakabaho inzu ndangamurage. Inote y'amafaranga igihumbi, ku ruhande rumwe hariho umugabo, ku rundi ruhande hariho inzu hejuru ifite ibendera ry'igihugu. Ku noti y'amafaranga ibihumbi bibiri, uruhande rumwe hariho ishusho y'intare, urundi ruhande hariho amazu.

Inote ni amafaranga akozwe mu mpapuro akoreshwa n'igihugu. Inote zishobora kuba zifite agaciro gatandukanye. Hari inote ya magana atanu, inote y'igihumbi, inote ya bitanu, inote y'ibihumbi icumi, inote y'ibihumbi makumyabiri n'izindi.

Amafaranga, amafaranga ni uburyo bukoreshwa mu kugura cyangwa se kugurisha ibintu bitandukanye. Amafaranga ashobora kuba inoti aho ziba zimeze zikozwe mu bipapuro cyangwa se akaba ibiceri bikozwe mu mabuye y'agaciro.

Mu mafaranga igihugu gikoresha haba harimo n'inoti, inoti ni amafaranga akozwe mu mpapuro ashobora kuba afite ibiciro bitandukanye inote ya atanu, inoti y'icumi, inoti ya makumyabiri, inote ya mirongo itanu, inotite y'ijana, inoti ya magana abiri n'izindi.

Amafaranga aba mu byiciro bibiri bitandukanye, hari inote akaba akaba ari amafaranga akoze mu mpapuro, hakaba n'ibiceri biba bikoze mu mabuye y'agaciro atandukanye. Amafaranga yose yaba ibiceri, yaba inote agaciro kamwe.

Ibiro by'ivunjisha ushobora kuhabonera amafaranga y'igihugu winjiyemo, mugihe uturutse mu gihugu cy'amahanga kandi ukeneye amafaranga yo gukoresha muri icyo gihugu. Ushobora no kuhabonera amafaranga y'igihugu cy'amahanga, mugihe ugiye muri icyo gihugu kugira ngo ubone uburyo bwo guhaha.

Kuvunja amafaranga ni ugutanga amafaranga umuntu akeneye y'igihugu runaka na we aguha ayo yarafate y'ikindi gihugu kugira ngo abone amafaranga yo gukoresha ahuye neza neza n'aho ari.

Ibiro by'ivunjisha bifasha abantu kubona amafaranga bakoresha yo mu bindi bihugu. Iyo ukeneye kujya mu kindi gihugu, uba ukeneye n'amafaranga yo muri icyo gihugu yo gukora mu guhaha; cyangwa se umuntu winjiye mu gihugu na we aba akeneye amafaranga yo muri icyo gihugu, kugira ngo abone ayo abakoresha.

Ibiro by'ivunjisha mu Rwanda ni byinshi ushobora kubisanga ahantu hatandukanye mu mujyi wa Kigali mu ntara ndetse nahandi hose hahurira abagenzi ndetse no ku kibuga cy'indege, abanyarwanda bashaka kujya mu mahanga bashobora kubona amafaranga y'amahanga abanyamahanga baza mu Rwanda nabo bakaba babona amafaranga y'amanyarwanda bakoresha mubyo bakora.

Ibiro by'ivunjisha. Ibiro by'ivunjisha bifite akamaro kenshi, bifitiye abantu, umuntu ajyana amafaranga y'igihugu kimwe bakamuha amafaranga akoreshwa mu kindi, kugira ngo bimworohereze mu gihe azaba arimo atembera muri icyo gihugu.

Ibiro by'ivunjisha ry'amafaranga. Ushobora kubona amafaranga y'amahanga, ukayifashisha mu gihe wagiye mu kindi gihugu, cyangwa se abantu baturutse mu kindi gihugu bakaba babona amafaranga y'amanyarwanda, yo gukoresha mu gihugu.

Ibiro bivunja amafaranga atandukanye ni ibiro ushobora kuboneramo amafaranga y'amahanga cyangwa se yo mu gihugu bitewe n'ayo ukeneye, ushobora kujyana amadorari bakaguha amanyarwanda cyangwa se ukajyana amanyarwanda bakaguha amadorari bitewe na serivise ugiye gusaba.

Wesiteni yuniyoni, ni uburyo bwo kohereza no kwakira amafaranga ava cyangwa aturutse mu mahanga, ubwo rero umuntu wese ukeneye kohererereza amafaranga umuntu we ugize umuryango we cyangwa inshuti ye uri mu gihugu cy'amahanga ashobora gukoresha ubu buryo kubera ko burizewe.

Inzu nziza cyane irimo intebe ebyiri, izo ntebe ebyiri zimeze neza cyane zikoze mu ruhu rw'umwimerere. Ni intebe umuntu yatera hanze, yatera mu busitani, yatera hejuru y'inzu akicaraho arimo kuruhuka.

Inzu nziza cyane yubatse neza, ifite ameza ameze neza n'intebe zo kuriraho, imbuga yayo ni nziza kubera ko nta bunyereri, nta byondo, irashashe imeze neza.

Intebe nziza cyane ziberanye n'umuryango intebe zo kwicaramo intebe zo kwakiriraho abashyitsi ni intebe zikoze neza zikoze mu ruhu rw'umwimerere kandi ziri mu nzu nziza isukuye.

Icyumba kiza kimeze neza, kirimo urumuri, kirimo amatara meza, kirimo igitanda kimeze neza, gishashe neza, gifite imisego ibiri ndetse n'amashuka ameze neza waharuhukira bikagenda neza.

inzu nziza cyane iri ahantu heza, hari ubusitani bumeze neza, harimo indabyo zimeze neza, kandi iyi nzu uramutse uyirimo waba witegeye ahantu henshi hatandukanye.

Inzu abantu bashobora gufatiramo icyo kurya n'icyo kunywa. Iteguye neza, hari ameza ameze neza, intebe abantu bashobora kwicaraho, hasi harasukuye, amadirishya ameze neza, ashobora kwinjiza akayaga.

Ubusitani bwa hoteli ni ubusitani bwiza cyane buteyemo ameza ashyigikirwa n'intebe, aho abantu batandukanye bashobora kwicara bakahafatira icyo kurya nicyo kunywa. Hari amazi meza cyane abantu bashobora kogeramo bakagarura ubuyanja.

Hoteri nziza cyane yubatswe ahantu heza, ifite ibiti biyikikije, bishobora kuba bizana akayaga n'umwuka mwiza. Ifite amazi meza abantu bakogamo kandi ifite ahantu hatandukanye abantu bakwifotoreza.

Ibyo kurya byiza cyane. Ibyo kurya byiza cyane, birimo imboga, birimo inyama, birimo makaroni, kandi ku ruhande rwabyo hateretse icupa ririmo divayi yo kunywa.

Inzu nziza cyane umuntu yakwishimira guturamo, ifite ubusitani bwiza burimo ibiti bitandukanye nk'imikindo hateye indabyo zitandukanye hari akayaga keza ndetse umuntu yanakwiryamira mu byatsi.

Mariyoti hoteri ni hoteri nziza cyane umuntu ashobora gutembereramo, yaba we ku giti cye, yaba itsinda ry'abantu, waba umuryango ukahasanga ibyo kurya byiza, ibyo kunywa byiza ndetse n'amacumbi ameze neza.

Umuhanda urimo ibimenyeto by'umuhanda, hakurya hakaba hari igikoresho gishinzwe gufotora imodoka zirimo zirirukanka. Icyapa kirimo kwaka mu itara ry'umutuku hakurya hakaba hari ibiti ndetse n'amapoto atwaye insinga z'amashanyarazi.

Hoteri nziza cyane ifite ameza atandukanye y'umweru abashyitsi bicaraho. Hashobora kuba hari ibyo kurya byiza cyane kandi hari n'amatara abereye ijisho, hari amazi meza abantu bashobora kogamo.

Hoteli nziza cyane yubatse neza, ifite ubusitani bwiza, ifite ibiti bitandukanye bizana umwuka mwiza. Amazi meza abantu bashobora kogeramo, ndetse hari umutekano usesuye.

Ahatangirwa guha serivisi z'ikoranabuhanga hari serivisi z'irembo aho ushobora gusabira serivisi zitandukanye za leta, nk'ibyemezo bitangwa hari serivisi za banki abashobora kubitsa amafaranga, kubikuza amafaranga kohereza amafaranga, no kugira ibyo wishyura bitandukanye.

Buritamu ni ikigo cy'ubwishingizi gitanga ubwishingizi ku indwara ku baturage. Ubwo rero, ushobora gufatamo ubwishingizi, umuntu umwe mu bagize umuryango cyangwa bose yarwara, akajya ajya kwa muganga akivuza ku giciro gitoya.

SONARWA ni sosiyete y'ubwishingizi mu Rwanda, ushobora gufata ubwishingizi butandukanye, ubwishingizi bw'ubuzima, ubwishingizi bw'ibihingwa, ubwishingizi bw'inkongi y'umuriro, ubwishingizi bw'ibinyabiziga, n'ubundi bwishingizi butandukanye.

Tekana loni ni ubwishingizi bwuzuye bw'imodoka. Ushobora guhabwa imodoka ukajya uyikoresha ukajya wishyura amafaranga make make, ku nguzanyo wahawe mu gihe cy'imyaka myinshi.

Ekwiti banke ni ikigo cy'imari mu Rwanda, ushobora kubona inguzanyo zitandukanye unyuze mu kigo ekwiti banke, ushobora kubona inguzanyo z'ubucuruzi, inguzanyo z'ubworozi, iz'ubuhinzi, iz'amashuri n'ibindi.

Urwego banki ni ikigo cy'imari, gitanga serivisi zitandukanye. Gitanga inguzanyo z'ubwoko bwose, harimo inguzanyo z'ubwubatsi, inguzanyo z'ubucuruzi, ariko kinatanga n'inguzanyo ku bahinzi, zerekeranye n'inguzanyo z'ubuhinzi n'ubworozi.

Gera ku ntego ni konti ushobora gufunguza muri bipiyara Rwanda, ikagufasha kwizigamira mu buryo bworoshye, bityo ukazagera ku ntego zawe wifuza mu gihe kiri imbere nk'intego yo gukora ubukwe ndetse n'ibindi.

Banki ya Ekwiti Rwanda ikorana n'abakozi batandukanye bakorera umushahara, aho umukozi unyuzamo umushahara we ashobora guhabwa inguzanyo ku mushahara kandi akajya yishyura make make mu gihe kimyaka runaka.

Dushobora kubona amafaranga dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi tunyuze muri banki. Banki ovu Afurika, ishobora kuguha inguzanyo y'amafaranga kugera kuri miliyoni mirongo itanu udasabwe ingwate. Gana banki ovu Afurika igufashe.

Isoko ry'imbuto umucuruzi arimo aragurisha imbuto zitandukanye, arimo aragurisha avoka hari izindi mbuto z'ubwoko bwose hari indimu, amaronji, imineke, inyanya n'ibindi bintu bitandukanye.

Isoko ry'imboga n'imbuto byo mu giturage, ushobora guhaha imbuto zitandukanye zo kurya inyanya, ibitunguru, amashu n'ibindi. Abacuruzi benshi biganjemo ab'igitsina gore barimo baracuruza imboga zabo.

Isoko ry'imbuto n'imboga, hari imbuto zitandukanye hari imineke, hariya amaronji, hari inyanya, hari inanasi, hari ibintu byinshi bitandukanye, hari abantu batandukanye baje guhaha.

Isoko ry'imboga, imboga zitandukanye urusenda, pavuro, karoti, intoryi, abacuruzi barimo baragurisha, harimo abaguzi nabo barimo kuza kwihahira imboga zo guteka.

Ubucuruzi bw'imbuto butandukanye. Hari inyanya, hari ibitunguru, hari karoti, hari intoryi, umudamu yicaye mu mutaka kubera ko arimo kwikinga izuba kugira ngo acuruze ibicuruzwa bye.

Isoko ry'imboga umucuruzi arimo aragurisha imboga zitandukanye ibitunguru, inyanya n'ibindi .Ushobora kujya mu isoko ry'imboga ukihahiramo ibintu bitandukanye.

Umukobwa ari mu isoko arimo aracuruza imbuto, umuhungu nawe arimo aragura imbuto, umukobwa aramwereka amubwira ubwiza bw'imbuto. Hari imbuto zitandukanye hari amaronji, hari indimu, hari imineke n'izindi.

Umucuruzi w'imboga mu isoko, yambaye ishati ya roza n'igitambara mu mutwe aricaye, arishimye cyane arimo aragurisha imboga ze hakubiyemo imineke, inyanya, ibitunguru n'ibindi.

Iduka ricuruza imyenda y'abagabo iriduka ricuruza amapantaro yubwoko bwose akoze mubitambaro byinshi bitandukanye kandi muriri duka ushobora kwishyura ukoresheje uburyo bwikoranabuhanga bwa mobayiro mani.

Emutiyene mobayiro mane ni sosiyete y'itumanaho mu Rwanda. Umugabo ukorera sosiyete emutiyeni mobayiro mane, arimo arafasha umukiriya ku gikoresho cy'ikoranabuhanga cyagize ikibazo.

Mobayiro mani( mobile money) ni uburyo bwashyizweho na emutiyene (MTN) Rwanda .Bwashyizweho kugira ngo bufashe abaturarwanda gukora kohereza amafaranga no kwakira amafaranga mu buryo bworoshye .Ushobora kwishyuriraho ibintu bitandukanye kandi ukaba wakoresha amafaranga yawe uko ubishaka ukoresheje telefone.

Ahagurishirizwa ibikomoka kuri peterori. Mu gihe ikinyabiziga kije kugura ibikomoka kuri peterori, umushoferi aba ashobora kwishyura mu buryo butandukanye; hakubiyemo no kwishyura kuri mobayiro mani mu gihe afite amafaranga kuri mobayiro mani.

Akazu gatangirwamo serivisi za Emutiyene mobayilo mani, umukobwa urimo arimo gutanga serivisi ushobora kubikuza amafaranga, ushobora kubitsa amafaranga, ushobora kohereza n'amafaranga, ushobora no kugira ibintu wishyuraho ukoresheje Emutiyene mobayilo mani. Umugabo ahagaze imbere yako kazu arimo arabikuza amafaranga.

Emutiyeni Rwanda ni ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda no mu bindi bihugu ku isi ikigo emutiyene Rwanda gitanga serivisi zo guhamagara ukoresheje telefoni zigendanwa, gitanga serivisi za enterinete ndetse n'ibindi bibazo abantu bashobora kuba bibaza ku itumanaho.

Mobayilomane ni serivisi itangwa n'ikigo cy'itumanaho cya emutiyene Rwanda ushobora kwishyura ibintu bitandukanye ukoresheje mobayilomani, ushobora kubitsa amafaranga cyangwa ukabitsa amafaranga, ushobora koherereza umuntu wawe cyangwa inshuti yawe amafaranga.

Umukobwa wicaye mu kazu k'umutuku ka eyateri, aratanga serivisi za eyateri, kubitsa amafaranga, kubikuza amafaranga, kohereza amafaranga n'ibindi, haruguru hari akandi kazu ka emutiyene mobayiro mani, hatangirwa serivisi za emutiyene, kubitsa amafaranga, kohereza amafaranga, kwishyura ibintu bitandukanye, kubikuza amafaranga ukoresheje emutiyene mobayiro mani.

Wakoresha momo peyi ya emutiyeni mobile mani kigirango wishyure ibintu na serivise bitandukanye, ushobora kwishyura umucuruzi, ushobora kwishyura mu iduka ushobora kwishyura mu isoko ishobora no kwishyura n'ahantu hatandukanye nko kwa muganga.

Emutiyene mobayilomani, ni uburyo bwiza buhendutse bwo kwishyura no kugura ibintu ukoresheje telefoni ushobora kwishyura ibicuruzwa bitandukanye kwishyura serivisi baguhaye ukoresheje mobayilomane.

Momo peyi ni uburyo emutiyene yatangije bwo kujya wishyura serivise zitandukanye ukoresheje mobayiromani, kuri kode iba yatanzwe ku buntu. Iahura na momo peyi rero ku bicuruzwa ibyaribyo byose ushobora kugura mu maduka.

Emutiyene Rwanda ni sosiyete ikora itumanaho mu Rwanda, ikora itumanaho ry'amajwi aho umuntu ashobora kuvugana na bagenzi be akoresheje iyo telefone zigendanwa. Ifite uburyo bwa mobayilo mane, butuma umuntu yishyura mugenzi we, akabitsa amafaranga ndetse akishyura ibintu bitandukanye.

Mobayiromani ni uburyo bwo kwakira no kubitsa amafaranga ukoresheje serivisi za emutiyeni, ushobora kandi kubikuza, ushobora kandi kwishyura ibintu bitandukanye ukoresheje mobayiromani.

Umugabo wambaye ishati y'umutuku , arimo aregera akazu gakoreramo umucuruzi wa emutiyene mobayilo mani agiye kubitsa cyangwa se kubikuza amafaranga kuri telefone ye binyuze kuri mobayilo mani.

Akazu gafatirwamo serivisi za mobayiro mani(mobile money). Mobayiro mani ni uburyo bwashyizweho na emutiyene (MTN) isosiyete y'itumanaho mu Rwanda ,uburyo bufasha abantu kohererezanya amafaranga, kubikuza amafaranga no kwishyura ibintu bitandukanye ukoresheje mobayiro mani (mobile money).

Kiko ni urubuga rw'ikoranabuhanga rukorera kuri interineti kuri kiku ushobora kuguriraho ibintu bitandukanye utavuye aho uri ukoresheje telefone cyangwa se mudasobwa.

K'urubuga jumiya ushobora kuhabona ibintu bitandukanye wagura, muri ibyo harimo; imyenda itandukanye ishobora gufasha abantu batandukanye, imyenda y'abagore bashobora kwambara bagiye ku kazi bajya mu birori n'ahandi.

Rwanda mariti ni urubuga rukoreshwa mu kugura no kugurisha ibintu mu Rwanda. Urwo rubuga rukorera kuri interinete ushobora gusangaho ibintu bitandukanye, ushobora gusangaho imyenda, ibyo kurya imyambaro, ibikoresho byo mu rugo, ibikoresho byo mu gikoni ndetse n'ibindi.

Murukari akadomo komu ni urubuga nyarwanda rugurishirizwaho serivisi zitandukanye. Ushobora kuhagurira ibiribwa, ibinyobwa, ibikoresho bitandukanye byo mu rugo, n'ibyo gukoresha ku giti cyawe, ushobora kuhagura utavuye aho uri ukoresheje telefoni cyangwa se murandasi kuri mudasobwa.

Rwanda mati ni urubuga rukorera kuri interinete, urubuga rukora serivisi z'ubucuruzi. Ushobora kuguriraho ibintu bitandukanye, ushobora kuguriraho ibyo kurya ,ushobora kuguriraho ibyo kunywa , ushobora kuguriraho ibikoresho by'isuku n'ibyo mu rugo ,ushobora no kuguriraho ibikoresho byo mu gikoni.

Alibaba ni urubuga rukorera kuri interineti alibaba ni urubuga rugurishirizwaho kandi rugagurirwaho ibintu bitandukanye. Ushobora kuguriraho ibikoresho byo mu rugo, ushobora kuguriraho ibikoresho by'abagore, imyenda y'abagabo, imyenda y'abana ushobora kuguriraho inkweto cyangwa se ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Vubavuba ni sosiyete ikora akazi ko kugemurira ibintu abantu mu rugo. Haba ibiribwa, ibinyobwa cyangwa se ibindi bicuruzwa. Umukozi wiyo sosiyete ari mu muhanda arimo arakura muri moto ibintu azaniye umuturage.

Ubucuruzi bugezweho muri iki gihe cyi'koranabuhanga, ni ubucuruzi bunyujwe kuri interineti ushobora kugurisha ibintu byawe unyuze kuri interineti, ushobora kuhahahira ibintu bitandukanye, ibikoresho byo muru rugo, ibikoresho byo ku kazi, ibikoresho byo mu maduka, ibikoresho byo mu mugikoni byose ushobora kubibona, ushobora kugeza igikoresho cyawe rero ku bantu za miliyoni bahererereye ku isi hose.

Vuba vuba ni kompanyi murwanda ishinzwe kugemurira abantu ibiribwa cyangwa se ibicuruzwa babasanze murugo, uyu mukobwa arimo arakora mugasanduku batwaramo ibintu kuri moto, kugirango ashyire banyibyo murugo.

Ibinyabiziga bitandukanye biri mu muhanda hari imodoka hari na moto zitwawe n'abazitwara, abantu bose bari kuri moto bambaye ingofero zibarindira umutekano kandi bose baragenda bubahirije amategeko.

Vuba vuba ni sosiyete igeza ibicuruzwa abantu baguze aho batuye. Vuba vuba ikoresha abantu ku giti cyabo bafite za moto kugira ngo bayifashe kugeza ibicuruzwa ku bakiriya.

Iduka onurayini ni urubuga rukorera kuri interineti, rugurishirizwaho ibintu byinshi bitandukanye. Ushobora kuguraho ibyo ukeneye, ibyo kurya, ibyo kwambara, inkweto n'ibikoresho byinshi bitandukanye.

N'inzu nziza cyane yubatse neza y'igorofa ikodeshwa amafaranga make cyane, ninziza ibereye ijisho ni kumadolari igihumbi n'ijana ku kwezi, wayibona ukayituramo i Kigali wishimye.

Ku madorari magana atanu mirongo itanu ku kwezi ushobora kubona inzu nziza cyane i Kigali mu Rwanda yo gukodesha, irimo ibikoresho byose, irimo firigo, irimo ibikoni, uburyo bwo ku meza n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Abagabo babiri bari hejuru y'inzu barimo baritegereza ukuntu umujyi ari mwiza barimo bitegereza inyubako barimo baritegereza ibiti biteye mu mujyi barimo bareba ubwiza butatse umujyi.

Icyumba cyiza cyane cyo kuryamamo harimo igitanda kimeze neza kiriho amashuka meza, icyo cyumba kirimo irange ryiza, kirimo urumuri rumeze neza.

Inzu nziza cyane yubatse ku muhanda ifite ibyangombwa byose, imeze neza, ifite umutekano, ifite amarange meza, afite igisenge cyiza kandi yubatse ku muhanda igura make miliyoni mirongo irindwi n'eshanu gusa.

Intebe nziza cyane zikoze neza, wazibona ku mafaranga make cyane, ku madorari igihumbi n'ijana ku kwezi, ushobora kubona inzu irimo intebe zikoze neza cyane, inzu isize amarangi meza cyane, kandi irimo n'ibikoresho byose.

Ku madorari igihumbi na maganatanu gusa ku kwezi ushobora kubona icyumba cyo kubamo muri Kigali kimeze neza harimo igitanda kimeze neza, inzu yubatse neza igaragara neza ifite ibirahure byiza kandi irimo amakaro.

Inzu nziza cyane ikodeshwa amadorari magana atanu mirongo itanu ku kwezi mu mugi wa Kigali mu Rwanda ni inzu ifite ibyangombwa byose ifite amazi, ifite amashanyarazi, ifite imesero ndetse n'ibindi byose batuma umuntu akomeza kubaho afite umutekano.

Inzu nziza cyane yubatse neza igaragara neza, ifite amarangi asa neza, kandi hari icyondo kimeze neza, imbere hashashe amabuye ku buryo nta cyondo cyahaba , ikaba ari inzu ikodeshwa amafaranga make, ibihumbi magana tatu mirongo itanu, ikanombe.

Ni ibyumba byiza cyane byo gukodesha bimeze neza, inzu isize amarange igaragara neza, irimo imiryango myiza kandi ikodeshwa ku giciro gitoya ibihumbi ijana na mirongo itanu by'amanyarwanda gusa.

Inzu nziza cyane ikodeshwa. Inzu imeze neza, icyeye, ifite amarange meza, yubatse hafi y'umuhanda, kandi irahendutse. Ifite ibyumba bitatu, n'ubwiyuhagiriro butatu.

Umugabo wambaye neza ahagaze imbere yinyubako, yambaye neza yambaye ipantaro, yambaye ikote, araberewe cyane ahagaze imbere y'inyubako nayo imeze neza ikeye isirimutse.

Inzu ikodeshwa irimo icyumba cyo kuraramo, icyumba cyo kwiyuhagiriramo, ndetse n'igikoni cya kijyambere ushobora gutekeramo. Ni inzu ifite amabati meza, ifite amadirishya meza, kandi nini nshya rwose muburyo buhagije.

Inzu nziza cyane yubatse ku buso bunini bungana na metero kare bungana na maganatatu na mirongo ine. Ni inzu iteye neza yari ahantu hirengeye ifite urugo impande zose umuntu yaturamo, kuri miliyoni mirongo inani n'eshanu gusa z'amanyarwanda wayegukana.

Inzu nziza ikodeshwa amafaranga make, yubatse neza ifite umutekano iriho igipangu amabati agaragara neza amatara meza kandi i ikodeshwa amafaranga makeya ibihumbi maganatatu mirongo itanu gusa yya manyarwanda ku kwezi.

Inzu nziza cyane, igeretse, iri ahantu heza, hameze neza, hari ibiti bitandukanye bitanga akayaga keza. Inzu yegereye umuhanda, kandi rwose inzu ni nziza, ku buryo uyituyemo waba umerewe neza.

Inzu nziza cyane yo gukodesha ni inzu yubatse neza, ifite amabati meza, afite amarange meza, ifite amadirishya meza, inzugi nziza, ifite ibyumba bibiri byo kuraramo n'ubwogero bubiri irakodeshwa make ibihumbi magana atatu mirongo itanu ku kwezi.

Inzu nziza igurishwa amafaranga makeyamiriyoni ijana na mirongo itanu , nibyumba bitanu ubwogero bune ikaba ifite metero kare magana ane mirongo itanu yubatse neza isakaye neza iragaragara neza.

Urubuga rwa enterinete kwiki akadomo ra wa, ni urubuga umuntu ashobora kugurishirizaho, akaba yagura, akaba yakodesha ibintu bitandukanye, cyane cyane ibigendanye n'imitungo utimukanwa ni ukuvuga amazu n'ibibanza.

Inzu nziza yo gukodeshwa ku gisozi. Ni inzu yavuguruwe igahuzwa n'igihe ubu bikaba imeze neza, ifite ibyumbabiri byo kuryamamo n'ubwoyuhagiro bubiri. Iyi nzu ifite imitako myiza ifite n'indabo nziza ndetse Ikikijwe n'ibiti.

Inzu ukodeshwa mi mujyi irimo ibikoresho bitandukanye irimo amazi mu nzu kandi ikodeshwa amafaranga make ibihumbi ijana na mirongo itanu y'amanyarwanda wayibamo rero ufite umutekano kuko ifite n'amashanyarazi n'ibindi bikenerwa byose.

Inzu ikodeshwa imeze neza, yubatse hafi y'umuhanda. Iruhande rwayo hateye imikindo n'ibindi biti bizana akayaga keza, isakaje amabati meza kandi isize amarangi meza.

Inzu nziza cyane imeze neza yuzuye isa neza, ifite amarange meza ndetse yubatse ahantu heza ushobora kuyigura ufite miliyoni magana tatu mirongo itanu z'amafaranga y'u Rwanda.

Inzu nziza cyane igurishwa, imeze neza, ifite inyubako nziza, amabati meza, inzugi nziza, amadirishya, amarangi meza ndetse imbere harakoze neza kubera ko hashashe. Igurishwa make, miliyoni ijana.

Umucuruzi w'igitsina gore arimwiduka, arishimwe nta baguzi bahari, acuruza ibintu bitandukanye, acuruza ibyo kurya, acuruza byo kunywa, imigati ndetse n'inzoga zitandukanye.

Inyubako nziza cyane igizwe n'inzu zigeretse iyi nyubako ikorerwamo imirimo itandukanye y'ubucuruzi, ni inyubako irimo ubucuruzi butandukanye, amasoko y'abantu ku giti cyabo aho bagurishirizaku giti cyabo cyaho aho batangira serivisi n'ibindi.

Ejo heza ni ubwizigamire bw'igihe kirekire leta y'u rwanda yashyizeho ejo heza kugira ngo abantu badafite akazi ka leta bibikirize amafaranga bazabone ikizabagoboka mu gihe bazaba bageze mu zabukuru.

Ejo heza ni ubwiteganyirize bw'igihe kirekire, muri ejo heza ushobora kwizigamira amafaranga ukazagobokwa mu gihe kiri imbere ugeze mu za bukuru, ejo heza ni serivise zitangwa n'ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize mu Rwanda.

Inyubako y'igorofa mu mujyi wa Kigali rwose ifite ibara ry'ubururu ,akaba ari inyubako ikorerwamo na minisiteri imwe mu rwanda kandi mu rwanda har' inyubako nkizi ndende nyinshi cyane , kuberako umujyi wa kigali ndetse n'indi mijyi yungirije umujyi wa kigali hose harimo harater' imbere.

Ejo heza ni ubwiteganyirize bw'igihe kirekire. Ushobora gushyiramo amafaranga buri kwezi cyangwa se buri mwaka, ukazayafata ugize imyaka mirongo itanu n'itanu, kandi ukayafata mu gihe kirekire uyafata buri kwezi.

Umukozi w'ikigo cy'ubwishingizi cya RSSB ikigo cy'ubwiteganyize cya RSSB gitanga serivisi z'ubwiteganyirize zitandukanye harimo n'ubwishingizi bw'ubuzima aho umuturage ashobora kwishyura amafaranga make ariko akazivuza we n'umuryango we.

Araesesibi ni ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize mu Rwanda, ikigo gishinzwe gucunga amafaranga y'ubwiteganyirize bw'abakozi, amafaranga azafasha abakozi bageze mu zabukuru, ikigo gifite inshingano yo gucunga amafaranga afasha mu bwisungane bwo kwivuza bw'abaturage.

Abagore bari kwa muganga bafite abana baje kuvuza bose bafite ubwisungane mu kwivuza barimo kubwerekana kugira ngo bahabwe serivisi z'ubuvuzi.

Ejo heza ni gahunda yashyizweho na leta ifasha abaturage bose biteganyirije muri ejo heza, kuzabona amafaranga azabafasha mu gihe bazaba bageze mu zabukuru.

Ejo heza ni ubwiteganyirize bw'igihe kirekire ushobora kwizigamira muri ejo heza, uteganyiriza izabukuru. Ibyo ushobora kubikora ukoresheje telefone yawe ibyo kandi ushobora kubisha kuzaguhesha uburyo bwo kuzabaho neza mu gihe uzaba ufite imbaraga nkeya.

Ejo heza ni gahunda y'igihugu y'ubwizigame bw'igihe kirekire, ifasha abantu bose bizigamiye kuzabona pansiyo, mu gihe bazaba bageza mu za bukuru, bakabona amafaranga azabashajisha neza.

Iduka ricuruza ibyokurya bitandukanye, harimo abantu batandukanye barimoha, umudamu umwe arimo arapakira ibintu amaze guhaha, umugabo wambaye umupira w'umuhondo arimo arishyura ibyo yahashye akoresheje mobayiro mani.

Simba supamaketi ni iduka rikomeye cyane mu Rwanda. Ni iduka rifite amashami ahantu henshi hatandukanye. Muri simba supamaketi ushobora kuhasanga ibicuruzwa bitandukanye hakubiyemo; ibiribwa, ibinyobwa, imyambaro, inkweto, n'ibikoresho bindi bitandukanye.